Icyapa kinini cyamamaza serivisi z'ubwishingizi zitangwa n'ikigo cya vizitazi inshuwarense gitanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubwishingizi.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ubwishingizi, kikaba cyamamaza serivisi zitangwa na sosiyete ya inshuwarensi Bikoni, itanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi nk'ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ubwishingizi ku binyabiziga.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ubwishingizi butangwa na company ya radiant imwe mu zitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda. Ikaba irikwamamaza gahunda ya turi kumwe ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima. Aho ukanda akanyeri gatanu, gatatu, rimwe ,urwego mu rwego rwo kubona serivisi z'iyi sosete ya radiant itanga ubwishingizi mu kwivuza, ndetse n'ubundi bwishingizi ku binyabiziga.

Sosiyete ya Radiyanti itanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi, aho muri gahunda yo kwamamaza porogaramu yayo nshya ya turi kumwe yo gushishikariza abaturarwanda gushaka ubwishingizi bw'ubuzima bwabo bo n'imiryango yabo.

Ikirango cyamamaza sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi zizwi nka buritamu ikaba ari sosiyete ikomeye kandi iri mu Rwanda, muri serivisi zitandukanye z'ubwishingizi ahubwo bahuza imodoka n'izindi serivise z'ubwishingizi zitandukanye.

Icyapa cyamamaza serivise zitangwa na porofeshono inshuwarensi sosiyete itanga serivise z'ubwishingizi aho yamamaza porogaramu yayo nshya yise simayire bikoze wiheve yo baka.

Gahunda yamamaza serivise zimwe zitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize, aho irimo gukangurira abaturarwanda kuzigamira ahazaza, kugira ngo mu gihe bashaje, batagifite imbaraga zo gukora, bazabone ikibatunga.

Gahunda yashyizweho na sosiyete ya radiyanti, sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi, aho irimo kwamamaza serivisi itanga z'ubwishingizi ku nkongi y'umuriro, aho umufatabuguzi wayo agobokwa mu gihe yaba ahuye n'inkongi y'umuriro ku bintu bye byaba byangiritse.

Application yo kuri murandasi yashyizweho na sosiyete ya Sonarwa itanga serivisi z'ubwishingizi, aho iyo application ifasha mu kwamamaza serivisi z'ubwishingizi zitandukanye zitangwa na Sonarwa harimo nk'ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku bihingwa.

Orudi macoro imwe muri sosiyete zitanga serivisi zitandukanye, harimo nka serivisi z'ubwishingizi bakaba batanga na serivisi zo guhuza abakozi n'abakoresha, aho batanga abakozi muri serivisi zitandukanye.

Apurikasiyo ya banki ikoreshwa muri telefoni zigendanwa ndetse na mudasobwa. Akaba ari apurikasiyo yoroshya serivisi zitangwa na banki, nko kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga, kubikuza, ndetse no kwishyura ibicuruzwa bitandukanye.

Apulikasiyo ya banki ya enisibieyi ifasha abafatabuguzi ba mabanki kubona serivisi zitandukanye mu buryo bworoshye harimo nko kwishyura gufata inguzanyo kohereza amafaranga ndetse no kubikuza.

Apurikasiyo ya banki ifasha abakiriya ba banki kubona serivisi zitandukanye harimo nko kohereza amafaranga, kubikuza ndetse no kwishyura. Urubuga kandi rukaba rubereyo kubafasha kubona ibyakuwe ku ma banki yabo bidasabye ko bajya ku byicaro bya banki.

Apulikasiyo ya banki yashyizweho mu rwego rwo korohereza abafatabuguzi ba banki mu kubona amafaranga mu buryo bwihuse n'izindi serivisi zitangwa na banki harimo nko kubona inguzanyo, kubitsa amafaranga, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga.

Application ya banki yashyizweho mu rwego rwo korohereza abafatabuguzi ba banki kubona serivisi nyinshi zitandukanye, bitiriwe bibasaba kujya ku byicaro bya banki, aho bohereza amafaranga, bakabikuza ndetse bakanabitsa bikabafasha no kwishyura ibicuruzwa.

Apurikasiyo ya banki y'abaturage y'u Rwanda ifasha abafatabuguzi bayo mu kubona serivise zingenzi zitandukanye zirimo kubitsa, kuguriza ndetse no kubikuza no kohererezanya amafaranga.

Iduka ricuruza ibikoresho byo kwambara nk'ibikomo ndetse n'indi mitako yo kwambara nk'amasheni, inigi ndetse n'impeta, iri duka rikaba riba ritatse iyi mitako mu kabati kabugenewe, rikaba riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo.

Inzu icuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo imyenda, amakanzu, amapantaro, imipira ndetse n'amashati n'inkweto z'ubwoko butandukanye, igacuruza n'imitako yo mu nzu itandukanye.

Iduka ricuruza imyenda y'ubwoko butandukanye harimo imipira, amakanzu, amashati, ingofero n'ibindi bitandukanye bimanitse ahabugenewe mu korohereza ababigura kubibona.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye amashati, amakoti, amapantaro, imipira, rikorera mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Kyarugenge mu nyubako ya Shike, akaba ari iduka rifite amayetageri meza yabugenewe, aba agaragaza imyambaro ricuruza.

Inzu ikorerwamo n'iduka ricuruza amafunguro ndetse n'ibyo kunywa, akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Nyarugenge, iyi nzu ikaba itatswe n'imitako y'ubwiza itandukanye, harimo nk'indabo ndetse n'ibindi bikoresho by'ubugeni.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye, ahiganjemo imyambaro y'abagore n'abakobwa, ikorera mu nyubako nziza cyane, irimo amatara meza ndetse n'amakaro.

Inzu icururirwamo ibicuruzwa bitandukanye byo kurya, ibyo kunywa, ibyo guteka, ibikoresho byo mu rugo, ndetse n'ibindi bitandukanye aho umukiriya agenda umucuruza akamwakira akamaha ibyo akeneye ubundi umuguzi akishyura.

Umucuruzi uri mu iduka ricuruza imyambaro urimo kwishyuza hakoreshejwe ikarita igendanwa ikoreshwa mu kwishyura ibicuruzwa bitandukanye utiriwe witwaza amafaranga mu ntoki.

Inzu icururizwamo imyenda itandukanye, cyane cyane iy'abagore nk'amakanzu, amajipo, amakote y'abagore, ikaba ari inzu igaragaramo ibikoresho bitandukanye byo kumurikiraho imyambaro baba bafite barimo gucuruza, mu rwego rwo korohereza abakiriya babo kuyibona byoroshye.

Inzu ikorerwamo n'iduka ricuruza ibihangano by'ubugeni bitandukanye ndetse n'ibikoresho by'ubwiza nk'amavuta, amaparufe ndetse n'amakorogate, iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo.

Umucuruzi uri mu nzu icururizwamo imitako, ndetse n'ibindi bikoresho by'ubugeni bitandukanye, ndetse n'imyenda itandukanye, aho ahagaze ategereje abakiriya baje kugura ibikoresho by'ubugeni.

Iduka rikorera mu nyubako iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, rikaba ricuruza ibikoresho byiganjemo iby'abategarugori n'abari, nk'ibikapu amasakoshi, imitako ndetse n'ibikoresho by'ubwiza by'abagore.

Iduka rya goludeni fashoni, rimwe mu bicuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'amavalize, inkweto n'ibindi bikoresho bitandukanye bikenerwa n'abantu cyane cyane ibyo kwambara n'ibyifashishwa mu ngendo.

Iduka rya golden fashion shop rigurisha imyenda yo kwambara ndetse n'inkweto, akaba ari iduka riherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, aho rigurisha imyenda itandukanye harimo amapantaro, amashati, imipira ndetse n'amakanzu.

Iduka rya goludeni fashoni shopu riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ritanga serivisi zo gucuruza imyambaro itandukanye yiganjemo amakoti y'abagabo, amashati ndetse n'amapantaro.

Umucuruzi uri mu iduka wishimye urimo gutanga serivisi ahereza abakiriya be ibicuruzwa baje kugura akabihereza neza acuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho byo mu rugo.

Inzu icururizwamo inkweto z'ubwoko butandukanye harimo sandari z'abadamu ndetse n'iz'aba mama, hamwe n'iz'abagabo, iyi nzu ikaba ifite inkweto ziba zipanze mu tutageri twiza twabugenewe mu rwego rwo kugaragaza ibicuruzwa byabo.

Imodoka yo mu bwoko bwa yundayi igurishwa iparitse mu nzu icururizwamo imodoka ndetse ikaba icuruza n'ibikoresho bitandukanye bizi by'imodoka harimo nk'ibirahuri ndetse n'ibindi bikoresho by'imodoka.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, ikorerwamo na sosiyete y'Akagera moto, itanga serivisi zo gucuruza imodoka ndetse no gucuruza ibice bitandukanye by'imodoka n'ibikoresho byazo.

Umuyobozi wa sosiyete itanga serivisi zo kugura imodoka ndetse n'ibikoresho byazo, arimo gushyikiriza umukiriya imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso ikoreshwa mu gutwara imizigo arimo kuyishyikiriza umukiriya wayiguze.

Sosiyete icuruza imodoka y'akagera moto. Imwe muri sosiyete zicuruza imodoka mu Rwanda, itanga imodoka ku mukiriya wayiguze.

Umukiriya waguze imodoka mu Kagera muto, arimo kuyishyikirizwa n'umukozi w'Akagera muto. Akaba ari kampani itanga serivisi zo gucuruza imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga, akaba ari sosiyete ifite icyicaro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.

Imodoka iri ku rubuga rugurisha imodoka rwa Kigali Cars Market, igurishwa yo mu bwoko bwa Mercedes Benz yo muri bibiri na cumi na kabiri, ikaba ifite igiciro cya miliyoni mirongo itanu.

Inyubako iherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ikorerwamo na sosiyete icuruza imodoka ndetse n'ibikoresho by'imodoka bya yundayi, ikaba itanga serivisi zirimo kugurisha imodoka ndetse n'ibikoresho byazo.

Imodoka zikomeye cyane zifashishwa mu guterura ibintu biremereye ndetse n'izifashishwa mu kubaka imihanda, akaba ari imodoka zigurishwa na Kadirashipusi umwe mu batanga serivisi zo kugura imodoka zitandukanye.

Akagera Motos, imwe muri sosiyete icuruza imodoka mu Rwanda ndetse igacuruza n'ibikoresho bitandukanye by'imodoka, aho yashyikirije abafatabuguzi bayo imodoka batumije.

Umuturage ufashe mu biganza inoti zo muri Kenya n'iz'amadolari y'Amerika, aho yifashisha akuma gakoresha amashanyarazi kabara amafaranga, mu kumenya umubare w'inoti umuntu afite.

Umukozi wo muri banki urimo kubara amafaranga yifashishije akuma kabugenewe gakoresha umuriro w'amashanyarazi mu kubara amafaranga, aho byorohereza abatanga izi serivisi z'amafaranga, harimo nko kubitsa no kubikuza, mu kubara amafaranga mu buryo bwihuse.

Umukozi ukora muri banki arimo kubara inoti z'amafaranga yifashishije akuma kabugenewe kifashishwa mu kubara inoti z'amafaranga ubwoko butandukanye, aho ushyiramo inoti akuma kakazibara bitiriwe bigufata igihe kirekire mu koroshya serivisi.

Umukozi wa banke urimo kubara amafaranga akoresheje akamashini kabugenewe kabara amafaranga, aho umukozi wa banke ashyiramo inoti ubundi akamashini kakamufasha kumenya umubare w'amafaranga bitamugoye mu rwego rwo kwihutisha serivise batanga.

Umukiriya uri muri kantine y'iguriro ricuruza ibicuruzwa byo kurya bikorwa mu ifarini hamwe n'ibyo kunywa bitandukanye harimo amata, ji, fanta ndetse n'icyayi.

Umukiriya winjiye mu iduka rigurisha imbuto, ndetse n'ibinyobwa bidasembuye, harimo fanta, jI, amazi ndetse n'amata arimo kugura muri ibyo binyobwa bidasembuye.

Ibikoresho byabugenewe biba bifite isuku bitwarwamo amata mu mujyi wa Kigali harimo ibicuba bikozwe mu cyuma ndetse n'utujerekani tw'umweru twogeje neza cyane dufasha gutwara amata mu mujyi wa Kigali.

Teremusi ziririmo icyayi ndetse n'amata na capati ziri mu gakoresho kabugenewe, zibikwamo amwe mu mafunguro afatwa mu gitondo mu ifunguro rya mu gitondo n'abantu benshi batandukanye.

Abakiriya bavuye kugura amata mu iduka rya superi marishe ricuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'amata, amaji, amafanta ndetse n'ibiribwa bitandukanye, aho umukiriya agenda azenguruka utuyetajeri turimo ibicuruzwa ahitamo ibyo ashaka kugura.

Icyuma cy'amata, cy'uruganda rutunganya amata, rwa Nyanza, ruzwi nka Nyanza milk industry, akaba ari uruganda rutunganya amata, rukayacuruza mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, no mu ntara.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye nk'amata, amazi ndetse n'amaji hamwe n'amandazi n'imigati bikunze gufatwa kenshi mu ifunguro rya mu gitondo.

urubuga rwa I&M Bank rutanga serivisi zo kubitsa, kugurira ndetse no gutanga inguzanyo, byerekana uburyo bushya bwo kwishyura bwitwa money transfer, ikaba ari serivisi nshya yazanywe na I&M Bank.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizeho na banki ya ayi endi emu banki, mu rwego rwo gutanga inyemezabwishyu, ndetse no kohereza abakiriya bayo kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya telefone, mu bikorwa bimwe na bimwe bakora ndetse no mu gihe bari kugura ibicuruzwa.

Apurikasiyo ikoreshwa muri terefone no muri mudasobwa nk'uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho umukiriya agura ibicuruzwa bitandukanye, akishyura hakoreshejwe terefoni zigendanwa, aho kugira ngo hishyure hakoreshejwe amafaranga mu ntoki.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura ibicuruzwa ndetse no kwishyura izindi serivisi, rwashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho MTN, rikaba ari ikoranabuhanga ryashyizweho mu kuyishyura hakoreshejwe telefoni zigendanwa.

Uburyo bwo kwishyura bwa peyiporu, bwashyizweho na sosiyete ya MTN, itanga serivisi zitandukanye z'itumanaho, mu rwego rwo korohereza abafatabuguzi bayo, mu kwishyura ibicuruzwa bitandukanye, hakoreshejwe telefoni.

Urupapuro rw'imenyekanisha ry'umusoro ruzishyurwa na Murora Rose umushoramari, rwatanzwe n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda reveni otoriti, mu kumenyesha Murora Roze umubare w'amafaranga umusoro azirishyura.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rw'umusoro watanzwe n'uruganda rw'Ameki koro ikaba yaratanzwe na Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda kigaragaza ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'umusoro wishyuwe ku ikoranabuhanga n'uruganda rw'Ameki koro.

Icyemezo cyatanzwe na Komiseri w'imisoro y'imbere mu Gihugu ihagarariwe na Batamuriza Hajara, akaba ari icyemezo cyatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Gihugu, Rwanda Revenue Authority.

Urupapuro rw'icyemezo rwatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, iki Cyangombwa kikaba cyarahawe uruganda rwa Ameki koro gikora amarangi mu rwego rwo kwemeza ko nta mwenda w'imisoro uru ruganda rurimo.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda reveni otoriti, iyi nyemezabwishyu ikaba yatanzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga, ikaba yarahawe ikigo cya purayimu insuwarensi rimitedi gitanga serivisi z'ubwisungane mu kwivuza, ku musoro cyari cyishyuye w'ibihumbi maganabiri mirongo itanu.

Icyemezo cyo kutavamo imisoro cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda Revenue Authority cyahawe sanita bakeri mu rwego rwo kwemeza ko iyi business nta mwenda w'imisoro itarishyura.

Urupapuro rugaragaza umusoro wamenyekanishijwe w'umusoro ugomba kwishyurwa na Ngari hydro power limited, ku rwego rw'igihugu rushinzwe imisoro Rwanda Revenue Authority.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rugaragaza umubare wa amande y'amafaranga yishyuwe na seti bak ari ku mpande ku umusoro n'amahoro, iyi nyandiko ikaba yaratanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda revenue authority.

Umukozi ukora mu iduka ritanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga arimo kwerekana b'umwe bwo mu bwoko bw'amafaranga y'abanyamahanga bakoresha bavunja, ari mu kugaragaza serivisi batanga.

Ibiciro by'ivunjisha byo kuwa makumyabiri na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, aho bagaragaza uko ibiciro byari bihagaze ku bantu bashaka kugurisha ndetse no kugura amafaranga y'amanyamahanga ku isoko mvunja faranga.

Ya amafaranga y'amayamahanga nyayarwanda ariyo akunze kwitwa amadovizi, arimo kubarwa n'umukozi utanga serivisi zo ku kuvunja amafaranga hagendewe ku giciro kiri ku isoko ry'amafaranga.

Inoti ya magana atanu y'amashiringi ya Tanzania, imwe mu mafaranga akoreshwa mu gihugu cya Tanzania no mu bituranyi byacyo akoreshwa mu kwishyura no kugura ibintu bitandukanye.

Umukozi ukora mu biro by'ivunjisha bitanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga. Arimo kubara inoti akoresheje icyuma cyabugenewe gikoresha umuriro w'amashanyarazi mu kubara amafaranga mu buryo bwo kwihutisha serivisi.

Umuntu uri kubara inoti z'amadolari y'amerika bakunze kwita US dollars akoresheje intoki atiriwe akoresha bimwe mu byuma byifashishwa mu kubara inoti cyangwa se amafaranga.

Ibiciro by'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga icyapa cyerekana uko ibiciro bihagaze ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ku biro bivunja amafaranga.

Umukiriya urimo kureba ibiciro by'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga, areba uko ibiciro bihagaze ku biro by'ivunjisha bitanga serivisi zo kuvunja amafaranga.

Ibiciro byo kuvunja amafaranga yo kuwa mbere tariki cumi na zirindwi z'ukwa mbere mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, byashyizweho na banki nkuru y'u Rwanda mu rwego rwo kugaragaza uko ibiciro bihagaze ku isoko mvunjafaranga mu Rwanda kuri uwo munsi.

Umukozi ukora mu biro by'ivunjisha urimo kubara amafaranga ariko uvunjira umukiriya waje ku kuvunjisha amafaranga bigendeye ku isuku mvunjafaranga aho avunjisha ubwoko bumwe bw'amafaranga mu bundi bwoko bw'amanyamahanga.

Umugabo wambaye ishati n'isaha nziza n'ipantaro afashe amadorari y' Amerika y'inoti z'ijana, arimo kuyabara akoresheje intoki ze nta byuma bitwara amafaranga akoresheje, iruhande rwe hari inoti z'amadorari.

Umucuruzi utanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga, wicaye imbere ya mudasobwa arimo kubara amafaranga yifashishije akuma gakoresha amashanyarazi kabara amafaranga mu rwego rwo koroshya akazi ko kubara amafaranga.

Ibiciro ku isoko mvunjafaranga byo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, aho bagaragaza uko ibiciro by'amanyamahanga byari bihagaze, ku muntu ushaka kugurisha no kugura amafaranga y'amanyamahanga.

Inyubako ikorerwamo na wesitani yuniyoni, kimwe mu kigo gitanga serivisi zitandukanye, harimo; ivunjisha ry'amafaranga, kubitsa, ndetse no kubikuza, no kohererezanya amafaranga.

Umukiriya ukoresha ifatabuguzi rya MTN, aho yari ari kuriosiki ya MTN imwe muri sosiyete zitanga serivisi z'itumanaho, ndetse n'iza banki harimo nko kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza, ndetse ikaba itanga n'inguzanyo kufatabuguzi bayo.

Inzu itangirwamo serivisi zo kuvunja amafaranga y'abanyamahanga aho imbere hari icyapa kigaragaza ibiciro uko bihagaze ku isoko mvunjafaranga, ku mafaranga y'ubwoko atandukanye atangirwaho izo serivisi.

Inzu itangirwamo serivisi zo kuvumya amafaranga, irimo mudasobwa ndetse n'akamashini kabara amafaranga mu koroshya akazi ndetse no kubara neza amafaranga.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ivunja faranga, ritangwa na na sosiyete ya AFFORDABLE FOREX PVT LTD, iyi sosiyete ikaba itanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga mu Rwanda.

Ni inzu itangirwamo serivisi zo kuvunja amafaranga imwe muri serivisi zikenerwa cyane aho ubungubu amafaranga wayatangiramo cyanwa ukayakuramo urugero urugero nk'amadora bakayavunjamo amanyarwanda.

Iduka ritanga serivisi zo kuganza aho amafaranga, aho amafaranga y'ubwoko bumwe avunjwamo andi mafaranga yo mubundi bwoko, bitewe n'ayo umukiriya akeneye nayo.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho, intebe, utubati, ameza ndetse n'intebe z'imisego, bikoreshwa mu rugo nko kwicaraho, kubikamo ibintu. Bikaba bikorwa n'abakora umwuga w'ububaji.

Intebe z'imisego zo kwegamiraho, bakunze kwita amafuteyi, hamwe n'imeza nini n'uduto twazo, bikorwa n'abakora umurimo w'ububaji, bimwe mu bikoresho bikunzwe cyane.

Ibikoresho byo mu biro bigurishwa n'abacuruza ibikoresho byo mu mbahoho n'ibindi byo mu nzu aho bigizwe n'ama ameza, utubati ndetse n'intebe byo mu biro bigurishwa.

Intebe z'amateyi zirimo gukorwa mu ibarizo ahakorerwa ibikoresho byo mu bigo bitandukanye bikorwa mu mbaho aho bikorwa n'abakora umwuga wo kubaza bakora intebe yutubati ameza ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo bikorwa mu mbahoho.

Bimwe mu bikoresho bikorwa mu biti bikorwa n'abakora umwuga wo kubaza, bikaba bigizwe n'ameza ndetse n'intebe byifashishwa mu gihe cyo gufata amafunguro, ibizwi cyane nka saramanje.

Ibikoresho byo mu rugo birimo ameza, intebe, utubati n'utumeza two guterekaho ibiryo, bimwe mu bikoresho bikorwa n'abakora umwuga w'ububaji bikaba ari ibikoreshosho byifashishwa mu ngo cyane.

Ibikoresho byo mu rugo byiza bikozwe mu mbaho bigizwe n'intebe ndetse n'ameza n'utubati, bigurishwa n'abacuruzi bakora umwuga w'ububaji akaba ari ibikoresho byifashishwa cyane nko kuriraho ndetse no kubikamo ibindi bintu.

Ubusitani burimo intebe, ameza ndetse n'imitaka bukikije pisine abantu bogeramo. Aya meza n'intebe akaba ari hamwe mu hantu bafatira amafunguro ndetse n'ibinyobwa muri hotel.

Ibyicaro bitandukanye, ku meza ari imbere ya kontwari irimo ibinyobwa bitandukanye, hamwe mu hafatirwa ibinyobwa muri hoteli, ibyicaro byiza cyane, bibereye ijisho.

Hoteli ya Radisoni imwe mu mahoteli arimo mu mujyi wa Kigali ikaba ari hoteli imwe mu zikomeye, ikaba ifite ibyiza byinshi kuko ihurirwamo n'abantu benshi kandi bakomeye.

Icyumba cy'uruganiriro cya hoteri nziza yo mu mujyi wa Kigali ya Serena hoteri, akaba ari icyumba kirimo tereviziyo, intebe, ameza ndetse n'akabati ko kubikamo udukoresho dutandukanye.

Hotel yitiriwe urugo rutagatifu izwi nka senti famiye, iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge akaba ari hoteli yakira ba mukerarugendo batandukanye, ndetse n'abanyagihugu bakeneye serivisi zitangwa na hoteli.

Hoteri ya mariyoti, iherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, imwe muri hoteri zikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda itanga serivisi zitandukanye, harimo iz'amafunguro, iz'amacumbi ndetse n'imyidagaduro ndetse n'ibyumba by'ibiganiro.

Ubusita ni bwiza bubereye ijisho bwo muri hoteli imwe mu zikunzwe mu mujyi wa kigali n'abana bicara batuje baganira habereye ibiganiro.

Inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali, ikorerwamo n'icyicaro cya UAP, sosiyete itanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi, ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ndetse n'ubwishingizi ku borozi.

Inyubako ikorerwamo na sosiyete ya Phoenix, imwe mu zitanga serivise z'ubwishingizi, ikaba itanga serivise zitandukanye z'ubwishingizi, harimo ubwishingizi bw'ubuzima, n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga.

Inzu ikorerwamo na sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi ya Buritamu, ikaba ari sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, serivisi z'ubwishingizi ku binyabiziga ndetse na serivisi z'ubwishingizi ku buhinzi.

Inyubako ikorerwamo na sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi ya prime insurance ikorera mu mujyi wa Kigali ndetse ikaba ifite n'ibindi byicaro hirya no hino mu gihugu ikaba itanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza ubwishingizi bw'ibinyabiziga n'ubwishingizi ku matungo.

Inyubako y'igorofa iherereye kuri kaburimbo mu muhanda w'umujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ikorerwamo na sosiyete ya sonarwa ikaba ari sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi, harimo nk'ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi ku bininyabiziga, ndetse n'ubwishingizi ku matungo.

Inzu ikorerwamo n'icyicaro gikuru cya sosiyete ya Sarlam itanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, iki kigo cya sarlam kikaba gitanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi bw'amatungo, ndetse n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga.

Umuhanda mu mugi wa Kigali uri imbere ikicaro gikuru gikorerwamo na sosiyete ya Sanlam, sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi butandukanye, ubwishingizi mu kwivuza ubwishingizi bw'ibinyabiziga n'ubwishingizi ku matungo.

Abayobozi bakuru ba sosiyete ya wap itanga serivisi z'ubwishingizi ,aho bari bavuye mu nama biga ku bibazo bahura nabyo n'uburyo barushaho kunoza serivisi zo gutanga ubwishingizi ku babagana.

Abakozi ba sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi bicaye mu biro bakoreramo bari imbere ya mudasobwa barimo guhereza abakiliriya babo serivisi z'ubwishingizi.

Abayobozi ba sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi ya Prime insurance, imwe mu zitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda, nk'ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ndetse n'ubwishingizi bw'amatungo ku borozi.

Inyubako y'igorofa igeretswe kane ikorerwamo ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya saniramu, kimwe mu bitanga serivisi z'ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi ku bantu ndetse n'izindi serivisi zitandukanye z'ubwishingizi.

Icyumba gikorerwamo n'ishami rya sosiyete ya sonarwa, sosiyete itanga serivise z'ubwishingizi, ikaba itanga serivise z'ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku matungo ndetse n'ubwishingizi ku binyabiziga.

Inyongera ku mukiriya waguze ikarita ya bike arena aho yashoboraga gutsindira itike y'igitaramo gikomeye cya Rwanda ribafu konsati cyarimo abahanzi bakomeye nka Kenny Solo, The ben n'abandi batandukanye, cyabaye ku itariki ya gatandatu z'ukwa munani mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Ikigo cy'imari Umwarimu SACCO cyashyiriweho abakora umwuga wo kwigisha mu rwego rwo kubafasha kubona serivisi z'imari harimo nk'inguzanyo, kubitsa ,kuguriza ndetse iki kigo akaba aricyo bahemberwamo mu rwego rwo kwihutisha imishahara yabo.

puikasiyo ya banki ya Spenn, imwe muri apilikasiyo zikoreshwa na banki ya I&M bank mu rwego rwo korohereza abafatabuguzi bayo, iyi apulikasiyo ikaba yamamaza inguzanyo zitangwa n'iyi banki ya I&M bank.

Inama yahurije hamwe urubyiruko rukiri ruto mu Rwanda yari yateguwe n'ikigo gitsura amajyambere mu Rwanda BRD, cyiga ku buryo ku nzitizi urubyiruko ruhura narwo mu kuba rwa babona aho gutura, ikaba yarabaye itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa kabiri ibibihumbi bibiri na makumyabiri n'agatatu.

Gahunda yashyizweho na banki yo ikorera muri ghana ya GT bank mu korohereza abakiriya bayo kubona imwe mu mitungo itimukanwa nk'inzu n'imodoka mu buryo bworoshye bitabahenze.

Urupapuro rw'inyandiko ku nguzanyo igaragaza ibisabwa ndetse n'amabwiriza mu guhabwa inguzanyo ya banki mu byiciro bitandukanye.

Inzu y'igorofa iherereye i Remera mu Karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ikorerwamo n'icyicaro gikuru cya Gosheni Finance hamwe n'ishami ryayo rya Remera, gitanga serivisi zitandukanye z'imari.

Urupapuro rwuzuzwa n'abafatabuguzi ba Access Bank, mu gihe bakeneye inguzanyo, mu rwego rwo kugaragaza imyirondoro, ndetse n'ibindi bisabwa byose, kugira umukiriya wa Access Bank, abone inguzanyo.

Isoko ry'imboga n'imbuto hari abahinzi bazana'umusaruro wabo bakabazana mu isoko kugira ngo abaguzi cyangwa se abakiriya babo babashe kugura bimwe mu bikomo bicuruzwa bijemo.

Umucuruzi w'ibihangano by'ubugeni, ucururiza ibihangano by'ubugeni bitandukanye harimo nk'inkoni, ibiseke, ibikapu, amashanete n'amasaro byakoreshwaga hambere.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibihingwa, imyaka nk'ibishyimbo, ibigori, ingano, ndetse n'ibindi biribwa nk'amasaka, ibitoki ndetse n'ibigori, iri soko rifite n'utundi ducururizwamo, ibikoresho byo mu rugo nk'amabase n'imikubuzo ndetse n'ibikoresho byo mu rugo.

Isoko ry'imbuto ryo Munkundamahoro, umucuruzi urimo guhereza serivisi umuguzi, amwereka ibicuruzwa afite bitandukanye harimo imbuto, avoka, imyembe, indimu ndetse na wotameroni.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, akaba ari umuhanda ukikijwe n'inyubako zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'amaparikingi aba aparitswemo imodoka, ukaba iriho n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Inyubako y'isoko rya kijyambere rigezweho ririho ibyapa by'ahakorera alimantasiyo icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa hamwe n'icyapa cy'uruganda rukora amata rwa Mukamira aho bagurishiriza amata ya Mukamira.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibikomoka ku matungo, bigaragarwamo abategarugori biteje imbere bacuruza amagi ndetse n'ibindi bikomoka ku matungo.

Iduka ry'imyenda riherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali dawunitawuni ricururizwamo n'abiganjemo urubyiruko, aho abakiriya baza kugura imyenda itandukanye harimo amapantaro, amashati ndetse n'imipira.

Umucuruzi ukora mu isoko riherereye mu mujyi wa Kigali, aho arimo kwakira umukiriya waje kugura imwe mu myambaro acuruza izwi nk'ibitenge, aho ari kumuha serivisi nziza amwereka ibitenge bitandukanye acuruza.

Imboga z'amoko atandukanye karoti, amashu, ibitunguru, puwaro n'izindi mboga zitandukanye, zipanze neza mu tubati twabigenewe mu isoko aho bicururizwa.

Abakiriya bari mu iduka bazenguruka bareba ibikoresho bitandukanye by'ubugeni byakoreshwaga hambere, harimo nk'ibiseke, ibyibo ndetse n'imitako itandukanye yakoreshwaga mu gihe cy'ahahise.

Inzu ikorerwamo ubukorikori n'ubudozi bw'imyenda moderi zitandukanye igakora ibikapu bitandukanye by'abadamu ikorerwamo kandi nanone imitako itandukanye yo mu nzu ikoreshwa mu gutaka inzu.

Isoko rya kijyambere ryubatswe mu buryo bugeretswe rya nyarugenge; riherereye mu karere ka nyarugenge; mu mujyi wa kigali; ahaba ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakabamo n'abantu batanga serivisi nyinshi zitandukanye.

Umucuruzi wicaye mu isoko ricururizwamo imbuto nka kokombure, inyanya, amashu, pavuro ndetse n'ibihaza, ategereje abakiriya kugira ngo abagurishe izi mbuto mu rwego rwo gukomeza gufasha abaturarwanda kubona ibiribwa bihagije.

Inzu ikorerwamo imyenda ndetse igacururizwamo imyenda, aho bacuruza imyenda itandukanye harimo amakanzu, amapantaro, amarido, ndetse n'imipira n'amashati aho abakiriya baza babagana mu rwego rwo kugura imyambaro myiza.

Inyubako y'isoko rya kijyambere rigezweho rikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, akaba ari isoko riherereye mu mujyi rwagati ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye nk'imyenda, imiti ndetse n'ibyo kurya.

Isoko ricuruza ibikoresho by'umuco harimo ibyansi, ingoma, ibiseke, imikeka, udutebo ndetse n'ibindi bitandukanye bigurwa n'abaguzi batandukanye.

Umukiriya uri imbere ya kiyosike ikorerwamo n'umuajenti wa Eyateri sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ndetse n'iza banki nko kubitsa, kubikuza no kohereza amafaranga.

Sitasiyo icuruza ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa n'ibinyabiziga nk'imodoka ndetse na moto, ikaba ikoresha uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefone buzwi nka momo peyi.

Iduka inshuro ibicuruzwa bitandukanye bakishyura hakoreshejwe telefoni zigendwagendanwa bitarenze ko birirwa hakoreshejwe, amafaranga afitwe mu ntoki irizwi cyane nka momo peyi.

Kiyosiki y'umu ajenti wa MTN itangirwamo serivisi zitandukanye z'itumanaho, harimo nko gucuruza amiyinite ndetse na serivisi za banki, harimo kubitsa, kubikuza ndetse no kohererezanya amafaranga.

Apulikasiyo ya sosiete y'itumanaho ya eyateli imwe mu zikorera mu Rwanda, ifasha abafatabuguzi bayo kubona serivisi z'ingenzi z'itumanaho mu buryo bworoshye.

Umucuruzi urimo kwakira amafaranga hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa mobiile mani, aho umukiriya agura ibicuruzwa ubundi akishyura hakoreshejwe telefoni zigendanwa, akishyura umucuruzi atiriwemo amafaranga mu ntoki.

Umucuruzi mu isoko, yicaye iruhande rw'ibicuruzwa bye, yerekana ko abaguzi be bashobora kumwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefone, aho bamwishyura mu buryo buzwi nka momo peyi.

Akazu k'umu ajenti wa MTN, imwe muri kompanyi zitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda, aho abafatabuguzi b'iyi sosiyete babonera serivise zitandukanye nko kugurira amayinite, kubona amasimukadi ndetse n'izindi serivisi.

Umwajenti wa MTN, imwe muri sosiyete zikorera mu Rwanda zitanga serivisi z'itumanaho ndetse n'iz'amafaranga, akaba ari ku igare imbere y'agakiyisike gakorerwamo na ajenti utanga serivisi zitandukanye nko kugura amayinite, kubitsa no kubikuza amafaranga.

Umuhanzikazi nyarwanda Emerance Bwiza uzwi ku izina rya Bwiza ari mu bikorwa byo kwamamaza serivisi za sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ya mtn, aho arimo kwamamaza serivisi za banki nko kohereza amafaranga kubitsa kubikuza ndetse no kwishyura ukoresheje momopeyi.

Inzu ikorerwamo na MTN, sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ndetse n'izindi za banki nko kohereza, kubitsa ndetse no kwishyura ibicuruzwa mu rwego rwo kunoza serivisi nziza, abakiriya bakaba bagenda bayigana mu rwego rwo gukemura ibibazo baba bahuye na byo.

Ishami rya sosiyete y'itumanaho ya AIRTEL ikorera mu Rwanda, aho abafatabuguzi babonera serivisi zitandukanye z'itumanaho, bagahabwa n'izindi serivisi zitandukanye bagakemurirwa n'ibibazo bagize.

Iduka rikorerwamo n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya eyateri, akaba ari iduka rifasha abafatabuguzi ba eyateri mu kubona serivisi zitandukanye ndetse no gukemurirwa ibibazo baba bahuye nabyo.

Iduka rya sosiyete ya emutiyene ritanga serivisi zitandukanye z'itumanaho ndetse rigatanga na serivisi zo kubika, kohereza no kubikuza amafaranga mu buryo bworoshye.

Urubuga rwa kasha rumwe mu rubuga rwo gucuruza hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho umuguzi atuma ibintu bikamugeraho atiriwe ava iwe mu rugo akishyura ubundi bakabimwoherereza.

Umukozi ukorera ikigo cya posi derivary akaba ari ikigo gitanga serivisi zo gushyikiriza abantu ibicuruzwa baguze aho umukiriya agura ibintu iyi kampani ikabimugereza iwe mu rugo atiriwe ahava.

Uruganda rwa Afuripadi rumwe mu rukora ibikoresho by'isuku rukora padi zikoreshwa n'abakobwa rurimo kwamamaza ubuziranenge ndetse n'ubwiza bw'ibikoresho bakora.

Urubuga rwa ozuri rutanga serivisi zihahi cyo kuri murandasi, rutanga serivisi zo gucuruza ibicuruza ibicuruzwa binyuze ku ikoranabuhanga, aho murikiriya abigura bikamugeraho mu rugo aho ari.

Iguriro ryo kuri murandasi ryitwa yubey online shopling ritanga serivisi zo gucuruza ibicuruzwa binyuze kuri murandasi aho umukiriya yagura ibicuruzwa atiriwe ava mu rugo rikaba ryaratangiye gukora mu mwaka ibihumbi bibiri nacumi na gatanu.

Ibinyabiziga bya moto byifashishwa mu kugeza ibicuruzwa ku bakiriya babitumije babiguze bakoresheje iguriro ryo kuri murandasi, izi moto zikaba ari iza sosiyete ya Rush food igeza ibicuruzwa ku babiguze bitabasabye kuva aho bari.

Imodoka ya sosiyete itanga serivisi y'iguriro kuri murandasi rya mikoro, aho ritanga serivisi zo gucuruza ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, umukiriya agura ibicuruzwa iyi sosiyete ikabimugereza mu rugo.

Iguriro ryo kuri murandasi aho utuma ibintu ukabyakira utiriwe uva aho uri ahubwo ukoresheje terefone yawe cyangwa mudasobwa yawe hakoreshejwe murandasi.

Iguriro ryo kuri murandasi ryitwa ishyo fudu ritanga serivisi zo gucuruza ibikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'ibindi bikorwa mu mata aho umukiriya agura ibicuruzwa atiriwe ava mu rugo.

Iguriro ryo murandasi rya moru, ritanga serivisi zo kugura ibicuruzwa bitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga, bidasabye ko umuguzi ava mu rugo akajya kugura, ahubwo abitumiza bikamusang iwe mu rugo.

Apulikasiyo y'urubuga rwa Living In Kigali, itanga serivisi z'ihahiro ryo kuri murandasi, aho umukiriya agura ibicuruzwa akoresheje telefoni ye ngendanwa cyangwa mudasobwa, iyi kampani ikabimugereza iwe mu rugo.

Umukozi wa sosiyete itanga serivisi, zo kugeza abaguzi, ibicuruzwa batavuye aho bari, bizwi nk'iguriro ryo kuri murandasi, yajyaniye umukiriya ibicuruzwa yaguze atiriwe ava mu rugo.

Iguriro ryo kuri muranda si irya bitusi ikamasi sitatapa ini Rwanda ritanga serivisi zo guhaha ku hakoreshejwe terefoni cyangwa se mudasobwa aho umuguzi atumiza ibintu akoresheje terefoni bikamugeraho atiriwe ava mu rugo.

Sosiyete ya Vanoma itanga serivisi z'iguriro ryo kuri murandasi aho ifite abakozi bakoresha ibinyabiziga bya moto mu kugeza ibicuruzwa ku bakiriya babiguze, bakoresheje telefoni zigendanwa.

Umutungo utimukanwa uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ukaba ugizwe n'inzu iri mu gipangu, ikaba ifite icyumba cy'uburiro cyiza cyane ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, akaba ari inzu nziza ikodeshwa amafaranga angana n'igihumbi magana atanu by'amadolari y'Amerika, akabakaba miliyoni ebyiri y'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu y'igorofa igeretse, ikaba ikodeshwa igihumbi magana atanu by'amadolari y'Amerika ku kwezi, akaba angana na miliyoni ebyiri z'amanyarwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba irimo ubwogero bugezweho ndetse n'ibyumba byo kuraramo n'igikoni, iyi nzu ikaba igurishwa miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, akaba ari inzu igurishwa amafaranga ibihumbi miliyori mirongo irindwi n'eshanu y'amafaranga y'u Rwanda, iyi nzu ikaba irimo igikoni cya kijyambere.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri mu gipangu iherereye mu mujyi wa Kigali. Akaba ari inzu ifite ubuso bungana, na metero kare magana atatu neshanu. Iyi nzu ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi neshanu y'amafaranga y'u Rwanda

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri mu gipangu gifite parikingi ya kaki irimo imodoka eshatu ikaba iherereye i Kanombe mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ikaba igurishwa amafaranga angana na miliyoni mirongo icyenda n'eshanu y'amanyarwanda.

Umutungo utimukanwa w'inzu iherereye i Kagugu mu mujyi wa Kigali, aho igurwa amafaranga asaga miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amanyarwanda akaba ari inzu nziza cyane.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, iyi nzu ikaba igurishwa amafaranga angana na miriyoni mirongo irindwi z'amanyarwanda, ku muntu ushaka kuyigura akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu, iherereye Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu ifite ikikoni kigezweho, iyi nzu ikaba ikodeshwa igihumbi magana atanu by'idolari ku kwezi.

Umucuruzi ucuruza imitungo itimukanwa igizwe n'amazu ndetse n'ibibanza arimo kwereka umukiriya inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo amutambagiza inzu mu rwego rwo kugira ngo ayishime ayikodeshwa.

Umutungo utimukanwa uherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ukaba ugizwe n'inzu igurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu y'amafaranga y'u Rwanda ku muntu waba wifuza kuyigura.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, Akarere ka Gasabo, iyi nzu ikaba ifitemo ikigoni kigezweho, ku muntu ushaka kuyigura ikaba igurishwa miliyoniro mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane iri mu gipangu iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite saro nziza cyane irimo intebe z'amafuteyi, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu by'amadorari y'Amerika, akaba asaga miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye kagarama mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa amafaranga angana n'ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu y'igorofa igeretse kabiri, akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ikodeshwa amadolari ijana na mirongo itanu y'amanyamerika ku ijoro rimwe, ndetse n'amadolari igihumbi na magana inani ku kwezi. Inyubako ikaba ifite n'ubwogero bwa pisine.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye i Kanombe mu Mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo, ubwongera butatu, akaba ari inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu by'u Rwanda ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu igeretswe, iherereye i Kigali mu murwa mukuru w'Igihugu cy'u Rwanda, ikaba igurishwa ibihumbi bibiri by'idolari ry'Amerika.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu y'igorofa, iherereye Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu igizwe n'ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, akaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu igurishwa, iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, akaba ari inzu igurishwa amafaranga asaga ibihumbi mirongo inani na bitatu by'Amadolari y'Amerika, akaba ari amanyarwanda asaga miliyoni ijana na makumyabiri.

Umutungo utimukanwa w'inzu, uherereye Kimironko kwa Sekimodo, ugizwe n'ibyumba bitatu byo kuraramo, bifite ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu Karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu igizwe n'ubwogero butatu ndetse n'ibyumba bine byo kuraramo, iyi nzu ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu y'amanyarwanda ku kwezi.

Apurikasiyo ya sosiyete itanga serivisi zo kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa harimo inzu zo guturamo, inzu z'ibiro ndetse n'inzu zo gukodeshwa, zikaba zihuza abakodesha ndetse n'abakodeshwa.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri mu gipangu iherereye Kagarama mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ubwogero butatu, iyi nzu ku muntu ushaka kuyigura ikaba igurishwa asaga ibihumbi cumi na bibiri by'amadolari y'Amerika, akaba akabakaba miliyoni cumi na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ifite ibyumba bibiri na toilette ebyiri, iherereye i Kagugu mu mujyi wa Kigali, iruhande rwa sitasiyo ya peteroli ya Lubisi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu igeretse inshuro ebyiri, iherereye Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga angana n'igihumbi cy'idolari, akaba asaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu y'amanyarwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri mu gipangu biherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu ushaka kuyigura.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali akaba ari inzu igizwe n'ibyumba bitatu byo kuraramo n'ibyumba bibiri byo kogeramo akaba ari inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda ku kwezi.

Umucuruzi urimo kwakira umukiriya amupfunyikira neza ibicuruzwa yaguzwe, yicaye imbere z'imashini yifashisha mu gutanga inyemezabwishyu, ihabwa umukiriya igaragaza ibintu yaguze ndetse n'amafaranga yishyuye.

Inzu icuruza imyambaro itandukanye, nk'aho bacuruza iy'abagabo, iy'abagore, amakoti y'abagabo ndetse n'amakaruvati, aho baganwa n'abantu benshi baje kugura imyambaro itandukanye kugira ngo bambare base neza.

Inzu igurisha imitako itandukanye y'ubwoko butandukanye, ikoreshwa mu gutaka amazu ndetse n'ahantu habereye ibirori, tukaba tubona umukiriya urimo kwerekwa imitako itandukanye.

Inyubako y'igorofa nini ikorerwamo ubucuruzi iherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho usangamo imiryango icuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bicuruzwa hababyo kurya ndetse no kunywa.

Isoko rya kijyambere rigezweho ricururizwamo imboga n'imbuto, ririmo ibirango bya sosiyete y'itumanaho ya MTN mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa byayo bitandukanye.

Abakiriya bambaye udupfukamunwa muri supermarket, barimo kugura ibicuruzwa, bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda koronavirusi, kimwe mu cyorezo kigeze kwibasira Isi, mu hagana mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali ikorerwamo ubucuruzi bw'inkweto, imyenda n'indi myambaro itandukanye nk'amashati amakanzu ndetse n'amapantaro.

Inzu ngari ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa, aho biba bipanze mu tuyetajeri twabyo, aho abakiriya baza bagana abacuruzi bakagura ibicuruzwa bitandukanye bashaka.

Umucuruzi wicaye imbere ya mudasobwa arimo kureba ibintu afite muri sisitemu icuruza ibikoresho byo mu nzu bitandukanye harimo amatara, imitako n'ibindi bikoresho byo m'inzu

Abakiriya bahuriye mu iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye nk'ibikapu ndetse n'imitako ikozwe mu buryo bwa kinyarwanda barimo kwerekwa n'abacuruzi imitako yo mu bwoko butandukanye ndetse n'ibikapu bitandukanye.

Umucuruzi mu iduka rikorera mu nyubako ricuruza ibyoku kurya ibyo kunywa n'ibindi bikoresho bitandukanye, yiri apanga neza ibicuruzwa byabo mu tubati twabigenewe.

Inyubako zikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto, imineke, amapome, wotameroni, imyembe ndetse n'ibinyomoro, iri soko rikaba rikorerwamo n'abacuruzi benshi batandukanye baba bategereje abakiriya babo kugira ngo bagurishe izo mbuto.

Umukiliya uri mu isoko rigezweho rya supermarket, arimo gufata ibicuruzwa mu tu etajeri twabigenewe tuba dupanzwemo ibikoresho bicuruzwa muri supermarketi, nk'amabiswi, amaji n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umupolisi n'umusirikare bicaye imbere ya mudasobwa mu isoko rya gisirikare ndetse n'abapolisi, ryashyizweho mu rwego rwo korohereza abakora uy mwuga w'umutekano mu kubona serivisi z'ubucuruzi zihuse kandi zitabagoye.

Abaturage bamaze guhabwa amakarita y'ubwishingizi ya mutuelle de sante, aho bari bishimiye izi serivisi z'ubwishingizi , aho umuturage avurwa ku mafaranga make cyane kuko aba yarizigamiye.

Amakarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituelle de sante atangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB aho umuturarwanda aba afite ikarita ya mituweli y'ubwiteganyirize mu kwivuza imufasha kubona serivisi z'ubuvuzi zidahenze.

Abakozi b'ikigo k'igihugu cy'ubwishingizi RSSB bari mu biro bicaye bafite impapuro ndetse n'amakarita bahereza abagana izi serivisi z'ubwishingizi bwa mutuelle de sante ngo babafashe kubona serivisi z'ubuvuzi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mituweri do sante itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB, akaba ari ikarita ihabwa umunyarwanda kugira ngo abashe kubona serivisi z'ubuvuzi mu buryo bumworoheye kandi buhendutse.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize rssb, afite indangururamajwi arimo gusobanura imishinga itandukanye harimo ejo heza, imwe mu mishinga yashyizweho mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kwizigamira ejo hazaza.

Icyapa cyamamaza gahunda y'ejo heza gahunda y'ubwishingizi yashyizweho n'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi mu rwego rwo gufasha abaturarwanda kwizigamira ejo hazaza mu kugira ngo bazagire amasaziro meza.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB, bari bahuriye n'abaturage ku Murenge, barimo babahereza amakarita y'ubwishingizi mu kwivuza ya mituweli do sante, abafasha guhabwa serivisi z'ubuvuzi byihuse kandi mu buryo buhendutse.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB afite indangururamajwi arimo gusobanurira abaturage inyungu zo gukorana niki kigo no kugira mituweli abasobanurira ibyiza bya mituweli.

Abakiriya bari mu iguriro barimo kwerekwa n'umucuruzi, ibicuruzwa bitandukanye afite, bipanze mu tu etajeri twabugenewe neza, harimo nk'amaji, amabiswi y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi biribwa, hamwe n'amata.

Umuhanda wa kaburimbo uri imbere y'iguriro rizwi nka SIMBA Supermarket, hamwe mu hagaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, nka moto, imodoka. Uyu muhanda kandi ukaba uriho amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro.

Umukiriya muri supermarket arimo kugura amavuta ndetse n'ibindi byo kurya yishyura umucuruzi akoresheje ikoranabuhanga, umucuruzi akamwohererereza ibicuruzwa yaguze.

Iguriro rya supa maketi ririmo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bipanze mutu etajeri twabugenewe, aho umukiriya azenguruka etajeri ahitamo ibicuruzwa ashaka kugura.

Abakiriya mu iduka rya superi marishe barimo bazenguruka utu etajeri tuba turimo ibicuruzwa bagenda bahitamo ibyo baje kugura bagasanga abacuruzi bakishyura ibicuruzwa bafashe bakabibapakingira bakabitwara.

Iduka rigari, ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, byo kurya, byo kunywa, byo kwifashisha mu rugo, aho batanga serivise zitandukanye, bakaba bemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, nka telefone ndetse n'amakarita.

Iguriro ryagutse rya superimarishe rigaragarwamo n'utu etajeri twinshi dupanzwemo n'ibyo kurya ndetse n'ibindi bicuruzwa bicuruzwa muri supamaketi, aho umukiriya agenda azenguruka utu etageri ashakamo ibicuruzwa yaje kugura bikamworohera guhitamo ibyo yaje kugura bitamugoye.

Umukiriya mu iduka afite agakoresho kabugenewe abakiriya bashyiramo ibyo barimo guhaha, arimo guhaha ibiribwa bitandukanye nk'amabiswi ndetse n'amata, aho umukiriya azenguruka utu etajeri ahitamo ibyo ashaka kugura.

Iduka rigezweho rya Super market ricuruza ibicuruzwa by'imbuto nk'amaronji, ibinyomoro, imyembe ndetse n'inanasi, akaba ari iduka aho imbuto ziba zipanze mu tu etajeri twabugenewe, umukiriya akatuzenguruka afata imbuto yumva ashaka kugura.

Umucuruzi mu iduka ricururizwamo imbuto, amaronji, imineke, ibinyomoro ndetse n'inanasi, akaba arimo gutunganya izi mbuto kugira ngo abamugana baje kuzigura, basange zimeze neza ziri mu tuyetageri twabugenewe.

Iguriro rya superi marishe ritatswemo imitako ya Noheli ikunze gutakwa ahahurirwa n'abantu benshi mu gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani igurisha ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa.